Ihuriro ry'abantu benshi aho higanjemo igitsina gore, bambaye imyenda yera hejuru ndetse hasi bakaba bambaye amajipo asa n'ibara rya kaki, ikigaragara cyo aba bantu ni abanyeshuri bakaba bafite n'ibipapuro bambaye mu mutwe bisa n'ibara ryera.

Inyubako ndende, igeretse inshuro imwe, ikigaragara cyo hashobora kuba ari ikigo cy'amashuri, higiramo abana mu bijyanye n'amasomo. Hari umugabo uhagaze hasi wagira ngo ahugiye muri terefone.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane bicaye ahantu mu nzu bigaragara ko hari uwo bakurikiye imbere bashobora kuba bari mu nama, imbere yabo hari umuntu ushobora kuba ari kubaha ibiganiro.